Abakozi bane bari ku nkengero z'ikiyaga bari kurobesha indobane y'akayungiririzo cyangwa se supanete ifata amafi yose yaba amato cyangwa amanini gusa na none ntago biba byemewe.

Ahantu heza hari ubuhinzi bw'icyayi, hagaragara abahinzi bari gusarura icyayi kimaze kugera ku musaruro wo kuba cyakwera kigasarurwa kikajyanwa ku isoko.

Ahantu heza mu gishanga hakorerwa ubuhinzi bw'imboga, harimo nk'amashu ndetse n'ibindi ariko na none hirya yaho hari ihema ry'umweru rifasha kugabanya izuba ku biti by'ingemwe bizakoreshwa mu buhinzi bw'ubutaha.

Ahantu heza cyane hari ubuhinzi bw'icyayi bimeze neza hari kuhirwa. Ubwoko bu bugezweho bwo kuhira hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse n'imashini zifasha kuhira.

Ahantu hari ubworozi bw'inkoko nyinshi kandi zigezweho, iz'umukara, iz'umweru ndetse n'izikigina zisa nk'aho ziri kugaburirwa ibiryo ariko na none nta muntu uhari.

Isekurume z'ihene zirimo kurisha mu ishyamba ziragiwe, ahantu heza cyane hari ubwatsi ariko na none hagaragara nk'aho hari ikintu zirimo kwangiza cyangwa se zirimo kona.

Ahantu heza muri pariki, hasa nko muri pariki y'Akagera imbere hari isatura ariko nanone ku ruhande rwo hirya hari ba mukerarugendo bari mu modoka yabugenewe baba baje gusura izo nyamaswa ziba muri pariki ndetse n'ibindi byinshi.